Muri iyi minsi haboneka ibibazo bitandukanye byo kudashobora gukontorora imyanda iva mu byo twakoresheje, urugero nk'amazi amazi ni ikintu gikenerwa mu buzima bwa buri munsi, rero tugomba gukora ku buryo ki twongera kuyasukura kugira ngo yongere akoreshwe tugabanye imyanda kuri iyi si yacu dutuyemo.

Amazi ni isoko y'ubuzima adufasha kugira ubuzima buzira umuze, hari ahantu henshi dusanga hari amazi meza, urugero twavuga ku masoko, ku biyaga, ku migezi n'ahandi henshi hatandukanye, amazi adufasha mu bikorwa bitandukanye by'isuku, gusukura umubiri wacu, gutegura ibyo kurya yego n'ibindi byinshi.

Mu bice bimwe na bimwe bitandukanye ku isi usanga hari agace kamwe kibasiwe n'ibura ry'amazi, rero kugira ngo abo bantu babashe kugezwaho amazi ku gihe twubaka ibigega, twubaka ibyo bita mu ndimi z'amahanga damu, kugira ngo babashe kwakisesinga kuri poropatizi zimwe na zimwe zabafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Intambara ni ikintu gisiga ibibazo ku kiremwa muntucyose cyari gihari muri icyo gihe yabaga, usanga hari abana babura ababyeyi ababyeyi bakabura abana babo inzara igatera, ibibazo bikaba byinshi ku kiremwamuntu cyose cyabayeho icyo gihe k'intambara.

Nkuko twese tubizi isuku ni isoko y'ubuzima, kugira isuku ku bice bimwe na bimwe bitandukanye by'umubiri bituma umuntu agaragara neza, aha navuga urugero amenyo, isuku ku ruhu rwo mu maso n'ibindi.

Kwa muganga ni ahantu hakirirwa abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, harimo ibice byinshi bitandukanye, hari ahakirirwa imbabare zakomeretse zifite ibibazo bitandukanye, hari ahakirirwa ababyeyi baje kubyara, haba harangwa n'amatara abona cyane n'ibindi byinshi.

Iyo abantu bageze mu zabukuru bagomba kwitabwaho, bakagira igihe gihagije cyo kuba bari kumwe n'abandi, baganirizwa, basomerwa inkuru, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo bibafashe gusaza neza, kandi mu mahoro.

Isi yahoze abagore ari abantu bahejejwe inyuma n'amateka, bakandamizwa, bumva ko badashoboye ariko kuri ubu igitsina gore ni ikintu gikomeye cyane, cyubahwa, gishoboye, kigomba kujya mu mirimo yose ishoboka kandi ibaho, kuko na bo barashoboye.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, hari amahame n'amabwiriza, agomba gukurikiza. Urugero niba umuntu agomba kunywa amazi mu igitondo, agomba kuba yayafatira ku igihe. Niba hari icyo umuntu yashobora gukora, kugira ngo agire ubuzima bwiza, mbese ni amahame yo gutuma umuntu anoza, imibereho ye yose.

Kwa muganga bagira inyubako nyinshi zitandukanye, usanga hari aho ababyeyi bakirirwa, inkomere, abana ndetse n'ibindi bitandukanye. Bitewe na serivisi ushaka bakwerekeza ku nyubako runaka ntabwo umuntu yaba arwaye ibicurane ngo bamwerekeze ku nyubako y'ababyeyi, urwo rwari urugero.

Siporo ni ingenzi, siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza, siporo ituma turuhuka mu mutwe tugatekereza neza, tukagabanya stress tuba twahuriye na zo mu kazi, tugahura n'abandi tukaruhura ubwonko tugatuma umubiri wacu ukora neza, yego.

Kwa muganga haba imbabare nyinshi, hari ibyumba bimwe na bimwe bakiriramo abantu bababaye, aho abaforomo bakoresha ibikoresho bimwe na bimwe babapima, bareba uko ubuzima bwabo bumeze, uko imikorere yabo imeze y'umubiri, kenshi uba usanga ibyo byumba bibona, bigizwe n'amatara abona cyane.

Siporo ngororamubiri zidufasha kurambura ingingo zimwe na zimwe zigize umubiri wacu urugero: Gukora siporo zirambura amaboko, zirambura amaguru, amayoga n'izindi zitandukanye kugira ngo dukomeze kugira umwimerere no kugira ngo umubiri wacu ukomeze kuba wakora neza.

Hari uburwayi bumwe na bumwe umuntu ashobora guhura na bwo ntibigombere ko yahita ajya kwa muganga, ahubwo na we akagerageza uburyo bwa gakondo. AKenshi cyane dusangamo nk'ububuki igihe umuntu yarwaye nk'inkorora, indimu ku magiripe n'ibindi bitandukanye.

Uruhu rwacu rukenera ibintu bitandukanye kugira ngo rukomeze kugira umwimerere no kubungabunga ubuziranenge bwaho, twifashisha ibintu bitandukanye urugero nk'imibavu, amavuta yo gutuma tudacuyuka n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iyi si yacu igizwe n'ibinyabuzima bitandukanye, urugero twavugamo ibiti, ibyatsi, abantu ndetse n'inyamaswa, kenshi uba usanga ibiti bidufasha mu buryo bwo guhumeka, ibyatsi bikadufasha mu buryo bwo gusukura umwuka duhumeka.

Mu buzima tubamo muri iyi si cyane cyane, mu miryango haba harimo ibibazo bitandukanye urugero twavuga ko bibazo bijyanye n'umubiri w'umuntu imikorere y'umubiri. Rero iyo usanzweze ufite icyo kibazo ni byiza ko wegera abaganga bakakugira inama bakakubwira umuti ushaka gukoresha kugira icyo kibazo cya gikemuke.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'uburwayi butandukanye gusa siko bwose bugombera kuba umuntu yajya kwa muganga, hari n'iyo umuntu ashobora kwivura akoresheje imiti ya Kinyarwanda cyangwa se imiti ya gakondo, urugero twavuga nk'umutobe w'indimu, amatangawizi.

Umunyarwanda yaciye umugani ngo: "Amagara araseseka ntayorwa". Kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze tugomba kubwitaho, tukamenya igikwiriye no mu gihe gikwiriye. Urugero navugamo, kurya indyo yuzuye, kurya imbuto, kuregera amasukari umubiri wawe ukeneye n'ibindi.